Aroza igikoresho akoresheje amazi meza y'isoko, aturuka mu itiyo, kugira ngo aze kwizera ko isuku imeze neza cyane, bityo bize kumurinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda uva mu mazi mabi.

Arimo aravoma amazi akoresheje amajerekani n'indobo, amazi meza cyane afite isuku, yifashishwa mu gusukura amafunguro, umubiri ndetse n'ibikoresho dukoresha, hibandwa mu kurwanya indwara zitandukanye zituruka mu isuku idahagije.

Inteko yahuje abaturage benshi bateze amatwi ubagezaho ikiganiro, bashobora kuba bari kwiga ku kibazo runaka cyangwa baganira ku bintu bitandukanye byateza imiryango yabo n'igihugu muri rusange.

Ni abana benshi cyane, bameze nk'abarwanira ku ivomo cyangwa barwanira igare habuze urirekura ngo aharire undi. Bafite akavuyo kenshi cyane, amahane ni menshi, bamwe baranarwaniramo rwabuze gica! ni nde uraza kurekura umwe akegukana ikindi? ni benshi cyane habuze ubatandukanya kugira ngo ibintu bijye mu buryo.

Inyubako nini cyane yubatswe kugira ngo afurika yihaze mu nkingo izajya ikoresha ivura abaturage bayo, hatagombye kujya kuzishaka imahanga. Bityo rero bizatuma afurika ibasha kwiteza imbere ndetse n'inkunga ziva hanze zikaza kugabanyuka.

Hameze nk'ibiro by'Akagari cyangwa iby'Umurenge hatangirwa serivisi zitandukanye ku baturage b'Igihugu, hateraniye abantu benshi kugira ngo bagire ibintu bigaho bunguke ubumenyi hagamijwe mu kongera imibereho myiza y'abaturage na serivise.

Aravoma amazi meza ya robine kugira ngo yite ku isuku yo mu rugo nko gufura imyenda, gukaraba ndetse no gutegura amafunguro.

Abana baritabwaho na gisirikare, babaha ibyo kunywa n'ibyo kurya, bashobora kuba bafite ikibazo cy'amafunguro. Ni byiza bitanga urugero ku mutekano, ndetse no guhumuriza abahuye n'ikibazo. Umutekano ushobora kuba ari muke kuri aba bana bityo bigoye kubona icyo.

Muganga ari gukingira umuntu kugira ngo amwongerere ubudahangarwa bw'umubiri, bityo ubuzima bwe burusheho kugenda bumera neza ndetse yongere ubudahangarwa ku buzima bw'iwe.

Umubyeyi arakarabya umwana we. Impande ya robine akoresheje amazi meza. Abandi bazanye ibivomesho baje kuvoma, kwita ku isuku cyane cyane y'abana n'umubyeyi muri rusange, ni ingirakamaro.

Muganga afite ibikoresho byabugenewe, agiye gusuzuma umurwayi amenye ikibazo afite, aboneraho ashaka uburyo araza kumwitaho, amuha imiti ijyanye n'uburwayi afite kugira ngo aze gukira.

Wagira ngo ni pisine urebeye kure, ni uruziga ruzengurukijwe n'ibyuma, hagati harimo ikintu kimeze nk'icyambu cyangwa ikiraro gituma babasha kugeramo indani, hameze nk'ahororerwa amafi, hafi y'imiryango itandukanye.

Ivomo rusange rikikijwe n'abana baje kuhavoma. Gusa kuyavoma bisaba gukubita ikintu cy'icyuma bayasunika kugira ngo amazi yiyongere aze ari menshi. Ni byiza kuko bigabanyiriza ingendo bakora bajya gushaka amazi kure cyane mu bishanga.

Umwana mutoya arakingirwa na muganga kugira ngo arusheho kumwongerera ubudahangarwa bw’umubiri we. Ibyo bizatuma umwana akurana ubuhagarike n’ubugingo, indwara za hato na hato bigoye kugira ngo zimufate. Ni byiza kuri buri mwana ko yahabwa urukingo.

Bameze nk'abayobozi batandukanye bahuriye hamwe kugira ngo baze kwiga ku kibazo runaka bagishakire umuti. Barusheho kungurana ibitekerezo n'ingamba zifatwe, bitewe n'uburemere bw'ikibazo, bagire ubumenyi bahakura bamwe na bamwe ku byo batari bazi.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye kuri poste de sante kugira ngo baganire ku bijyanye n'inshingano zabo; bita ku buzima bw'ababagana ndetse no kubaha serivisi mu gihe gikwiriye kandi cya nyacyo.

Umwana aravoma amazi meza ya robine kugira ngo aze gukoresha amazi y'isuku ndetse agire n'isuku ku mubiri, asukure n'amafunguro araza gukoresha, bityo bize kongera ubudahangarwa ku mubiri we arwanye n'indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, uva mu mazi.

Umubyeyi umeze nk'aho ateruye uruhinja, yaje kwaka serivisi ku bantu bameze nk'abajyanama b'ubuzima, kugira ngo bamuhe serivisi inoze bityo yongere ubudahangarwa bw'ubuzima bwe ndetse n'umwana muri rusange.

Umugore n'umugabo bicaye mu biro bya RBC, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima bw'abaturage, bityo hagamijwe mu kurwanya indwara zandura n'izitandura kugira ngo ubuzima bw'abaturage burusheho kugenda neza.

Umubyeyi umeze nk'aho ari umunyabuzima yaje kuganira n'umuryango agira inama yabungura, hibandwa ku buzima bwabo ndetse n'imiryango muri rusange kugira ngo ubuzima bukurikiranwe ndetse hatagira ababushira mu kaga kubera kutagira ubumenyi ndetse n'inama bahabwa.

Arunamye ameze nk'ufite ibibazo, agahinda n'ubwigunge bukabije, asa n'uwakomerekejwe cyangwa akaba ashobora kuba atabanye neza n'umuryango we, birashoboka cyane kuko ntiyishimye na gatoya.

Arabihiwe, ararakaye, ibibazo ni byinshi, Isi yamukomeranye, afite icyamuteye ibibazo byose, ntabwo ku ruhande rwe ibintu bimeze neza, biraza kugorana.

Ingeri z'abantu batandukanye bahuriye ahantu hamwe, basa neza, baracyeye, basa nk'aho harimo n'ababyobozi. Bari bameze nk'abahuriye mu nama cyangwa inteko kugira ngo bahurire hamwe, maze bige ku kibazo n'icyateza igihugu imbere.

Ni sare yabereyemo ikiganiro. Umubyeyi w'umumama afite mikorofone. Ameze nkahoaho yahaye ijambo uyu mukobwa umuri imbere kugira nawe agire icyo avuga bijyanye n'ingingo bariho. Babateze yombi ababa bakurikiye barishimye cyane.

Abaganga gakondo baje kwita ku barwayi bafite ubuzima bukeya butandukanye, buri murwayi baraza kumufasha bigendanye n'uburwayi afite, baraza bakabasura, bakabitaho, bakabasuzuma, bakabaha imiti ijyanye na gakondo, bakareba ko bagarura ubuzima.

Ku rundi ruhande ameze nk'umusirikare, afite igikoresho kimeze nk'imbunda ni nk'umusazi, ahantu aherereye hameze nk'aho habereye ibikorwa by'intambara umutekano utifashe neza.

Ababyeyi bazanye abana babo kwa muganga kubasuzumisha, umwana umwe abaganga babiri bamwasamishije. Bari kureba ikibazo afite mu kanwa kugira ngo babashe kumwitaho ,bityo akire.

Umuganga arita ku murwayi, cyane cyane asukura amenyo ye anayongerera ubudahangarwa; kugira ngo bitazamugiraho ingaruka mu minsi iri imbere.

Umwarimu afite uburoso arabosa inzasaya z'inyamaswa, yereka umwana imyigire biga n'aho bihuriye, mu maso y'ababyeyi be kugira ngo barusheho mu gukurikirana imyigire inoze y'abana babo.

Muganga aratamika umwana umuti unyuze mu kanwa, hakurikiranwa ko ubuzima bwe bwagenda burushaho kumera neza.

Yakoresheje urudodo rw'akadeyi kugira ngo asukure amenyo, amenyo asa neza cyane. Isuku yo mu kanwa iba ikenewe kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, ndetse no kutagira impumuro mbi mu gihe uri mu bandi. Bityo bakaba bakwinuba.

Umukobwa aricaye aratuje, arakoresha miruwari kugira ngo asuzume ko amenyo ye afite isuku mbere y'uko akora urugendo rugiye rutandukanye.

Umusaza ugaragara nk'aho akuze yavunitse, arimo yitabwaho na muganga ndetse banaganira ubona ko uburwayi bushobora kuba budakaze cyane binyuze mu gushyikirana hagati y'umuvuzi ndetse n'umurwayi.

Umwana na se bafite ballon ya basket barimo gukina, mu buryo bwo kugira ngo bidagadure maze hagati y'umubyeyi n'umwana urukundo rwiyongere, kugira ngo umwana yizihirwe yiyumvemo ababyeyi bihera mu mikino igiye itandukanye.

Umuganga arimo asobanurira umurwayi ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye, uyu murwayi ashobora kuba hari ibintu atasobanukiwe neza bityo yegereye muganga kugira ngo amubwire uko bigenda bikurikirana.

Umugabo ukuze yarwaye, ari kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kwiyongerera ubushobozi, bityo yongere ubudahangarwa umubiri we ukomeze ukure neza nkuko byari bisanzwe.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye baremye isoko, baje gucuruza abandi baje kugura. Ibicuruzwa biri mu isoko harimo; nk'inyanya, pome, amaronji, n'indimu, ndetse n'imyembe, na pavuro, kugira ngo bakomeze bagure ubucuruzi bwabo, barushaho kwiteza imbere mu miryango yabo n'igihugu muri rusange.

Umusaza yicaranye n'abuzukuru be babiri, barimo kurya imigati basomeza amata, ubona ko abana bishimye ndetse na sekuru wabo, akaba ameze neza cyane, utwuzukuru tswe tumuri iruhande.

Akazi kabo kagenda neza kubera ko ahantu bari barisanzuye cyane. Barishimye ikiganiro bariho bombi bari guhuza, iyi nzu imeze nk'aho ari iyo kwa muganga bacururizamo imiti itandukanye.

Anezerewe no kuba ateruye akantu karemereye, kugira ngo abashe kurambura imitsi, bityo bimurinde indwara zitandukanye, ziterwa no kudakora siporo, arabyishimiye cyane, kandi atewe ishema na byo, ni igikorwa cyiza buri wese yakagombye kwitabira.

Abaturage barishimira umusaruro wabo ko umeze neza, cyane cyane ko n'ikirere kimeze neza, imyaka yabo iratoshye, bityo bizongera umusaruro mbumbe ku bihingwa byabo.

Ni ababyeyi bane, buri mubyeyi ateruye uruhinja rwe aranezerewe, bameze nk'abaje kwa muganga gukingiza impinja zabo, barishimye batewe ishema n'urubyaro bafite.

Ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA, witabiriwe n'abantu benshi cyane ingeri zitandukanye kugira ngo harebwe ko icyorezo gishya cya SIDA cyacibwa intege bityo kireke gukwirakwira muri rubanda, ni gahunda yashyizweho n'Isi kugira ngo barebe ko uburwayi bushya bwagabanyuka.

Abantu babiri umusore n'inkumi, bafite ibyapa bishobora kuba byamamaza akazi bakora n'umwuga wabo bakora, kugira ngo abantu batandukanye bashobore kuba babagana.

Ni ibiro by'irembo, ni icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye za leta, nka mituweli, ubwishingizi n'ibindi, uyu mugabo bamuziritse mu kaboko ashobora kuba afite ikibazo cy'imitsi, kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bwe umunsi ku wundi, akomeze kwitabira imirimo ye uko igiye itandukanya.

Mu mboni z'amaso hasa neza, hari inyubako nziza cyane, imihanda myiza, ni umujyi hateye imbere, hano nta muntu utakwishimira kuba yahatura cyangwa akanahatemberera muri rusange.

Hubatsemo ikigo cy'amashuri, ibitaro cyangwa ibiro by'umurenge bitanga serivise ku baturage kugira ngo banoze serivise z'ababagana.

Ni inyubako ndende nshya, igeretse kabiri, imeze nkaho ari iy'ubuvuzi, hariho ibyapa bitandukanye bishishikariza abantu kubagana kugira ngo baze banogerwe na serivisi bahakura.

Inyubako nziza cyane iteye amabengeza irimo isuku ihagije, gusa hubatse hameze nko kwa muganga, mu bigo nderabuzima cyangwa ibitaro, cyangwa se hakaba haba inyubako ya Leta ikorerwamo serivisi zitandukanye.

Hameze nk'uruganda rucuruza imodoka ni inyubako ndende cyane zisa neza harimo imodoka z'imikara n'iz'imyeru bashobora kuba bazigurisha cyangwa bazikanika.

Akabati keza k'umweru kari muri saro, gashobora kuba gakoreshwa bashyiramo ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ni keza cyane gateye amabengeza.

Inyubako nziza cyane yita ku barwayi, irimo ibikoresho bitandukanye byo muri laboratwari kugira ngo hasuzumwe hanitabwe ku buzima bw'abafite ikibazo.

Inyubako ya leta inini cyane yagenewe gusuzuma abarwayi ba kanseri, kugira ngo bagabanye umubare munini ku ijanisha w'abantu bagenda bandura kanseri nshya mu mibiri yabo.

Imiturire myiza igezweho yubatse kijyambere, harimo ubusitani bwiza, harimo abantu benshi bashobora kuhatemberera, ubucuruzi bushobora gukorwa, hubatse kijyambere bijyanye n'igihe.

Umusore arimo anywa amazi akoresheje icupa kugira ngo yongerere ubudahangarwa umubiri ndetse n'ubuzima bwe bukomeze bugende neza muri rusange.

Arimo anywa amazi menshi ya ashobora kuba yari afite inyota, yakoze urugendo cyangwa se yakoze imirimo itandukanye ivunanye, ibi biraza gutuma arushaho kugubwa neza ndetse n'umubiri ukumva umeze neza cyane muri rusange.

Ni inkweto nziza ya botini imeze nk'iya gisirikare ishobora kuba inahenze cyane, iyi iba nziza ku kazi ko gucunga umutekano ndetse n'igihe barimo bakora imirimo ivunanye kugira ngo hirindwe ibikomere biva mu kazi karimo gukorwa.

Umurwayi urembye cyane aritabwaho na muganga, akurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, harebwa ko yakira vuba akagaruka mu bugingo ndetse akaba yasubira mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ari kunywa amazi akoresheje icupa, dore ko amazi ari meza cyane ku buzima bwa muntu, birinda umubiri kumagara ndetse n'uyanyoye agakomeza akagira ubuzima bwiza, bityo imirimo ye igakomeza nta nkomyi.

Abasore bane barirukanka cyane bakora siporo kugira ngo bagorore imitsi, hibandwa cyane cyane mu kurwanya indwara ziterwa no kudakora siporo.

Ni isaha yihariye ibara kandi ikaba igikoresho cyo muri laboratware, irahenze cyane gusa ntaho itandukana n'izindi uko zibara. Iki gikoresho cyo muri laboratware kiba gihehenze cyane.

Yambaye imyenda ya siporo arambuye akaboko kamwe akandi yagafatishije inyuma ikirenge, aragorora ingingo kugira ngo ananure imitsi yumve aguwe neza bityo umubiri awurindade indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo.

Utwatsi twiza tw’ishyamba izuba ryaradukubise turangirika, tumeze nk'amatunda cyangwa n'ibindi bintu by'ibimera bishobora kuba biribwa n'amatungo, ibingibi bikunze kuboneka mu misozi miremire ndetse no mu ngo z'abaturage.

Ibyatsi kimeza bishobora kuba byakwifashishwa mu kugaburira amatungo ndetse n'abantu bakaba banabirya bityo bikongera ubudahangarwa bw'ubuzima ku buzima bwa muntu ndetse n'inyamaswa, bimera ahantu hatandukanye nko mu misozi miremire ndetse n'imisozi migufiya.

Indimu, tangawizi biri ku bikoresho byiza cyane by'isuku kugira ngo bakore umuti ushobora kurwanya indwara zimwe na zimwe ziri mu mubiri.

Amacupa ane, abiri y'ubururu n'andi abiri y'umweru. Irirere ryanditseho infiniti. Rishobora kuba ari iry'amavuta cyangwa ririmo undi muti ushobora kuba wakwifashishwa mu bintu bitandukanye.

Ni ubwoko bw'indabyo bugiye butandukanye bwifashishwa mu kudecora, mu birori, mu gutaka, mu gukoramo ubugeni, hagamijwe mu kongera ishusho nziza no kugaragara imbere y'amaso baje muri ibyo birori muri rusange.

Ibyatsi by'ishyamba bisa neza bitoshye, wagira ngo ni mu gihe cy'imvura. Bishobora kwifashishwa mu kugabururira amatungo ndetse no gukoramo imiti itandukanye, bityo bikaba ari ingenzi ku buzima bw'abantu.

Imitako myiza cyane y'indabyo n'uduti twiza cyane tw'ingemwe dushobora kuba twakwifashishwa mu gutaka ahantu hatandukanye nko mu nzu, mu masaramanje, ku biro bya Leta nk'amasitade hagamijwe kugira ngo hagire ishusho nziza.

Ni amashami y'igiti, gishobora kuba giteye mu rugo rw'umuturage, ni igiti kimeze neza gifite amababi atoshye, gishobora kuba cyaribwa n'amatungo cyangwa kigakorwa harebwa ko habonekamo umuti gakondo.

Ni mu gihuru kirimo ibyatsi bitandukanye bya kimeza, indabyo, ibyatsi, mbese ni nk'urwuri. Harimo ibiti bitandukanye bishobora kwifashishwa bikorwamo ibiryo by'amatungo, n'indi mirimo itandukanye nk'ibiti wakubakisha.

Ni icupa rinini ry'umweru ryandikishijweho inyuguti z'imikara rishobora kuba rikururwamo imiti itandukanye ivura amatungo bityo ikaba yakwica udukoko mu nyanya cyangwa mu bishyimbo no mu zindi mbuto zitandukanye.

Isoko nini cyane ryagutse rigaragaramo ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibinyobwa n'ibikoresho bindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ariko cyane cyane ibikomoka ku buhinzi nibyo byibandwa muri iri soko, harimo inyanya, harimo ibitunguru n'imboga, bishobora kuba byareze ku musaruro ushimishije.

Icupa rinini ry'umweru, rigaragara ko harimo umuti wo muri foromasi ushobora kuba uvura amatungo cyangwa se ibihingwa cyangwa ukaba wakoreshwa uvura umuntu.

Ni ubuso bw'ubutaka bunini cyane, burimo igihingwa cy'ubunyobwa burimo abakozi barimo kubusarura kugira ngo buze kwitabwaho, maze umusaruro ubashe kugezwa ku isoko, bityo umuryango utere imbere n'ubukungu bw'igihugu muri rusange.